Abana b'inshuke bicaye ku musambi bakaba bicaye mu buryo bw'uruziga, ni byiza guhuriza abana batoya hamwe kubera ko baraganira, bagasabana, bakungurana ibitekerezo bityo bagakurana urukundo.

Abana b'inshuke bicaye ku musambi, bakaba barimo kurya, bose bambaye impuzankano ibaranga. Hakaba hari umubyeyi w'umumama wunamye urimo kubagaburira mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Abarimu n'ababyeyi barimo kuganiriza abana b'inshuke mu rwego rwo kugira ngo bidagadure bityo barusheho kugira ubumenyi, ni byiza kuganiriza abana bakiri bato kuko bituma basabana kandi bakagirana urukundo.

Abana b'incuke bahurijwe hamwe kugira ngo baganirizwe, bigishwe uko bakwiye gusabana n'uko bakwiye gusangira. Hakaba hari umubyeyi w'umumama urimo kubibafashamo, mu rwego kugira ngo babone ko ari umubyeyi.

Abana b'incuke bicaye ku musambi, buri mwana afite ikayi arimo kwandika ibyo mwarimu ari kumubwira, mwarimu wabo yambaye itaburiya y'umweru igaragaza ko ari umurezi. Ni byiza kwicaza abanyeshuri hamwe ukabaganiriza bakigira hamwe kuko batsinda neza.

Ikigo cy'amashuri abanza, akaba ari ikigo cyubakishije amatafari ahiye, gisakaje amabati. Abanyeshuri bose bari hanze bakaba barimo gukina mu rwego kugira ngo bidagadure.

Abanyeshuri batoya b'inshuke bambaye impuzankano, bakaba bari mu mwanya wo gufata amafunguro ya saa sita ku ishuri, ni byiza kugaburira abanyeshuri kubera ko bituma biga neza, bagatsinda neza.

Abanyeshuri batoya biga mu mashuri abanza bari hanze y'amashuri yabo barimo gukina mu rwego kugira ngo basabane, ni byiza guha abanyeshuri umwanya uhagije wo gukina kubera ko bituma baruhuka mu mutwe basubira mu ishuri bakiga neza bityo bagatsinda neza.

Umubyeyi w'umumama akaba arimo kuganiriza abana bato mu rwego kugira ngo abigishe gusabana ndetse no gusangira n'abandi, ni byiza kwigisha abanyeshuri bakiri batoya uburyo bakwiye kugirana urukundo hagati yabo.

Ubwiherero abanyeshuri bashobora kwifashisha mu gihe bashaka kwihagarika cyangwa se kwituma. Ni byiza kugira ubwiherero buhagije ku ishuri kubera ko bituma umunyeshuri uwo ari we wese ushatse kwikiranura n'umubiri, abona aho yerekeza bitamugoye.

Ikibuga gikinirwamo umupira w'amaboko uzwi nka basket mu ndimi z'amahanga cyubatse mu kigo cy'amashuri, ni byiza kwidagadura kubera ko bituma abantu basabana bityo bakagirana urukundo kandi bakagira ubuzima bwiza.

Ikigo cy'amashuri, akaba ari amashuri yubatse mu buryo buri ku murongo, buri shuri rifite umuryango usize irangi ry'ubururu, imbere mu kibuga cyaho haratose ubona ko imvura imaze kugwa.

Abana bo mu mashuri abanza barimo kwiga, mwarimu wabo arimo kubafasha kumenya gusoma, buri mwana afite igitabo mu rwego rwo kugira ngo ajye areba niba ibyo umwe ari gusoma ari byo na bo barimo kubona.

Abana bato b'abanyeshuri bari imbere y'ishuri bigamo, bakaba barimo gukina iruhande rwaho hari umubyeyi w'umumama waje kureba umwana we mu rwego kugira ngo amenye imyigire ye, ni byiza gusura abana ku ishuri kugira ngo ukurikirane imyigire yabo.

Abanyeshuri barimo gutambuka iruhande rw'ishuri bigamo, mu rwogo kugira ngo bagende bige hanyuma biyungure ubumenyi. Kwiga ni ingenzi kubera ko umuntu wize ahorana mu mutwe hateye imbere.

Inzu yubatse mu buryo butambitse ikaba isakaje amabati, iruhande rwayo hari urukarabiro abantu bashobora gukarabiraho mu gihe barimo gusukura intoki, imbuga yayo ntabwo irimo sima iratose ubona ko imvura yaguye.

Ikigo cy'amashuri abanza, abanyeshuri bakaba bari hanze barimo gukina. Ni byiza ko abanyeshuri bategurirwa ahantu ho kwidagadurira, kubera ko igihe barimo kwidagadura, barasabana mu mutwe hakaruhuka, ubundi bajya mu ishuri bakiga neza, bityo bikabaviramo gutsinda.

Ishuri abanyeshuri bigiramo, harimo ibikoresho bifashisha mu gihe barimo kwiga nk'intebe, ni byiza kugira intebe zihagije mu ishuri kubera ko aribwo abanyeshuri biga neza, mu gihe bicaye mu buryo bwisanzuye.

Abanyeshuri bahagaze imbere y'irembo ry'ikigo bigaho, bakaba bose bambaye impuzankano y'ishuri ibaranga, irembo bahagazeho rirafunze bategereje ko umuyobozi w'ikigo abakingurira kugira ngo babone uko binjira na bo bajye kwiga.

Umwarimu urimo kwigisha abanyeshuri bo mu mashuri abanza, ibijyanye n'ikoranabuhanga, hakaba hari mudasobwa zagenewe abana, barimo kwifashisha mu gihe cyo kubasobanurira uburyo ikoranabuhanga rikoreshwa.

Igipangu cyanditseho amagambo ndetse n'imibare ubona ko ari igipangu gikikije ikigo cy'amashuri y'inshuke, babyanditseho mu rwego rwo kugira ngo abana bazajye babisoma bityo biyibutse ibyo bigishijwe.

Abanyeshuri batoya bambaye impuzankano ibaranga, bahagaze imbere y'ishuri bigamo, bakaba barimo gukina. Gukina ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi kubera ko bituma abana basabana ndetse bigatuma batsinda neza ku ishuri.

Ikigo cy'amashuri hakaba harimo abantu bambaye imipira isa ubona ko ari umushinga bakorera bakaba baje kuganiriza abanyeshuri bahiga, barimo gutambuka mu kibuga gikinirwamo umupira w'amaboko uzwi nka Basket mu ndimi z'amahanga.

Abanyeshuri barimo gukina, bakaba barimo gukinira imbere y'amashuri bigamo, gukina ni ingenzi kubera ko bituma abanyeshuri basabana ndetse bagakura no mu bitekerezo, ni byiza rero ko dukangurira abana bacu gukina imikino itandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, bicaye mu kibuga barimo kwigishwa na mwarimu abigisha gusoma mu rwego rwo kugira ngo basobanukirwe neza mu buryo bworoshye bitandukanye n'uko bicara mu ishuri umwe akaba yakopeza undi.

Ishuri abanyeshuri bigiramo ririmo intebe abanyeshuri bicaraho ndetse bakabona n'uko bandika mu gihe barimo kwandika ibyo mwarimu ari kubigisha. Hakurya ku gikuta hamanitseho igipapuro cyanditseho inyuguti ndetse n'inyajwi zifasha abanyeshuri kumenya uburyo zandikwa ndetse n'uburyo zisomwa.

Ishuri abanyeshuri bigiramo, hakaba harimo intebe bicaraho mu gihe barimo kwiga. Ni byiza kugira intebe zihagije mu ishuri kubera ko abanyeshuri biga neza batarimo kubyigana bityo bigatuma batsinda neza.

Umuhanda mwiza w'igitaka ubona ko witabwaho cyane, mu rwego rwo kugira ngo imodoka ziwunyuramo zitazangirika cyangwa se ngo bigore abahanyura bari mu binyabiziga, ni byiza gukora imihanda y'aho dutuye.

Ibitabo biteretse ku meza, akaba ari ibitabo abanyeshuri bigiramo mu gihe barimo kwiga; ni byiza kwigisha abanyeshuri ufite ibitabo kubera ko ubahereza ibyo bitabo, ubundi ukajya ubigisha ibintu na bo babisoma.

Ishuri ririmo ibikoresho abanyeshuri bifashisha mu gihe cyo kwiga. Harimo intebe abanyeshuri bicaraho bityo bikaborohera kubona uko bandika, hakaba hari n'akabati baterekaho amakaye yabo ndetse n'ibitabo.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza, hakaba hari umwana wikoreye ibase irimo ibyo kurya, ni byiza kugaburira abanyeshuri ku ishuri kubera ko bituma biga neza, bagatsinda neza ndetse bakanagirana urukundo hagati yabo.

Akabati gapanzemo ibitabo byinshi by'amoko atandukanye bishobora guhabwa abanyeshuri mu gihe barimo kwiga. Ni byiza guha abanyeshuri ibitabo mu gihe urimo kubigisha kuko bituma bemera ko ibyo urimo kubabwira ari ukuri kandi bikanabafasha kubifata mu mutwe mu buryo bworoshye.

Ibitabo abanyeshuri basoma mu gihe barimo kwiga isomo ry'imibare, ni byiza kugira ibitabo abanyeshuri bashobora kwifashisha mu gihe barimo kwiga kubera ko biborohereza imyigire.

Ikigo cy'amashuri abanza harimo abanyeshuri benshi cyane bakiri batoya, abahungu bambaye impuzankano ya kake naho abakobwa bambaye impuzankano ya kotoni, ni byiza ko abanyeshuri bajya ku ishuri bambaye imyenda ibaranga.

Abana barimo gucomeka mudasobwa kugira ngo babone uko bayikoresha, ni byiza kubanza kureba niba mudasobwa yawe irimo umuriro uhagije mbere yuko utangira kuyikoresha kubera ko bikurinda kuba yakuzimana.

Ikibaho kiri mu ishuri, hakaba hari umwarimu urimo gusoma imibare abwira abanyeshuri isomo ari kubigisha mu rwego rwo kugira ngo basobanukirwe neza imibare, ni byiza kwiga imibare.

Abanyeshuri buriye hejuru ku ntebe bakaba barimo guhanagura ibirahure mu rwego kugira ngo aho biga hakomeze kugirirwa isuku, ni byiza gusukura aho dutuye kubera ko bituma hagaragara neza cyane.

Urubyiruko rw'abanyeshuri rwateranyirijwe hamwe, mu rwego rwo kugira ngo ruganirizwe, imbere hari abagabo babiri, umwe yambaye imyenda isanzwe na ho undi yambaye impuzankano y'abapolisi, akaba ari we urimo kubaganiriza.

Urubyiruko rw'abanyeshuri rwambaye impuzankano iruranga, ruri mu kigo aho urwiga. Ni byiza kwambara impuzankano y'ishuri, kubera ko bituma abantu bakubonye, bagutandukanya n'ibirara.

Ishuri ririmo ikibaho mwarimu yandikaho mu gihe arimo kwigisha abanyeshuri, ndetse n'abanyeshuri bandikaho mu gihe barimo gusubiramo ibyo bize, ni ngombwa ko buri shuri rigira aho abanyeshuri bigira mu bigo, kugira ngo basubire mu masomo yabo.

Ikigo cy'amashuri abanza, hakaba hari abanyeshuri bahagaze mu miryango, ni byiza kubaka amashuri ahagije, kubera ko bituma abanyeshuri bose babona uko biga neza kandi bagatsinda ku kigero cyiza.

Abanyeshuri barimo gutambuka mu muhanda bava ku ishuri, bari gutambuka mu muhanda urimo kaburimbo, iruhande rw'aho bari gutambuka hari amapoto y'amashanyarazi, atwara umuriro awujyana mu ngo z'abaturage kugira ngo babone umuriro.

Abanyeshuri benshi bicaye mu cyumba cy'uruganiriro, bakaba bishimye cyane baje kuganirizwa n'abayobozi babo. Kuganiriza abanyeshuri ni ingenzi kubera ko bituma, biga neza bagatsinda neza kandi bakagira indangagaciro nziza zibaranga.

Abanyeshuri bambaye impuzankano ibaranga, bateraniye hamwe mu rwego rwo kugira ngo basure ikigo cy' amashuri. Iruhande rwabo hari ishusho ya Bikira Mariya igaragaza ko ari abanyeshuri biga mu kigo cy'abihaye Imana.

Icyumba cyo kuraramo harimo ibitanda byinshi cyane biriho uburiri butandukanye, buri gitanda kirashashe, ni byiza kurara ku bitanda bikomeye by'ibyuma kubera ko uryama wizeye neza ko igitanda kidashobora kugira ikibazo na kimwe.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri barimo kwiga, hakaba hari ibikoresho nka mudasobwa ndetse n'ibindi bitandukanye barimo kwifashisha mu myigire yabo. Ni byiza kwigisha abanyeshuri wifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga kubera ko Isi dutuyemo ni Isi y'ikoranabuhanga.

Ishuri abanyeshuri bigiramo, hari ameza ateretseho ibitabo mwarimu yifashisha mu mu gihe arimo kwigisha mu rwego kugira ngo bimworohere kumenya amasomo ari buhe abanyeshuri, inyuma ye hari ikibaho yandikaho mu gihe arimo gusobanura.

Ishuri abanyeshuri bigiramo, hakaba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gihe barimo kwiga, hari intebe iteretseho ibitabo byifashishwa mu masomo, hakaba hari n'ikibaho mwarimu yandikaho mu gihe arimo kwigisha.

Urubyiruko rw'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bateraniye hamwe bakora urugendo shuri bajya gusura ahantu hari isoko mu rwego kugira ngo basobanurirwe amateka atandukanye, ni byiza gutembereza abanyeshuri.

Abanyeshuri bicaye mu cyumba cy'uruganiriro bakaba bicaye barebana, hagati yabo hari umugabo urimo kubaganiriza mu rwego rwo kugira ngo bungurane ibitekerezo, bose bambaye imyenda ibagaragaza.

Umunyeshuri uri ku kibaho akaba arimo kwereka mwarimu ko yasobanukiwe ibyo amaze kubigisha. Ni byiza gufata abanyeshuri bakajya imbere ku kibaho, bakakwereka niba isomo wayigishije baryumvise neza.

Abanyeshuri bicaye hamwe, bose bakaba bambaye impuzankano ibaranga, imbere yabo hari abayobozi barimo kubaganiriza, bababwira uko bakwiye kwitwara ndetse n'ibintu byiza byabagirira umumaro.

Imodoka iparitse mu muhanda, akaba ari umuhanda ushashemo amabuye, haruguru yayo hari abana batoya bambaye imyenda ya siporo, hirya gatoya hakaba hari inyubako yubatse mu buryo bwiza bugezweho.

Abanyeshuri barimo kurya, bose bambaye impuzankano ibaranga. Ni byiza kugaburira abanyeshuri ku ishuri kubera ko bituma biga neza, bagatsinda neza, ikindi kandi bituma abanyeshuri basabana.

Icyumba cy'ishuri, harimo abanyeshuri bagiye gukora ibizamini bya leta, hakaba hari abayobozi babasuye mu rwego kugira ngo barebe uburyo abanyeshuri bagiye gukora ibizamini biteguye. Hakaba hari umugabo urimo kugenda abahereza ibizamini.

Icyapa kiranga ikigo cya segonderi cya Butare, akaba ari icyapa cyanditseho indangagaciro z'ishuri. Ni byiza kugaragaza indangagaciro zigize ikigo kubera ko abaza bahagana baza bazi uburyo bakwiye kwitwara.

Irembo ry'ikigo cy'amashuri yisumbuye, akaba ari ikigo cya college saint Jean Nyarusange. Ni byiza kubaka irembo rigaragaza ahantu cyangwa se ubwinjiriro kubera ko abantu baza bakugana biraborohera kumenya aho bageze niba ari ho koko baje gusaba serivisi.

Inzu nziza yubatse mu buryo bwiza bugezweho, ikaba isize amarangi y'umuhondo ndetse n'ubururu. Ifite imiryango myinshi cyane, ifite urubaraza rwiza ndetse n'amayesikariye azamuka, ku buryo abantu baturuka hepfo babona uko bazamuka. Hakaba hari umugozi utambitse imbere yawo, bigaragara ko inzu itaratangira gukoreshwa, ahubwo igiye gufungurwa kugira itangire ikoreshwe.

Aabyinnyi barimo kubyina ubona ko bishimye cyane banezerewe, hakurya hari abanyeshuri benshi bicaye mu matente, bakaba barimo kubareba bareba imyiyereko barimo.

Abanyeshuri bateraniye hamwe mu rwego rwo kugira ngo baganirizwe bahabwe indangagaciro na kirazira biranga ikigo, ni byiza kuganiriza urubyiruko rw'abanyeshuri kubera ko rugira imico myiza.

Abanyeshuri baje mu ihuriro kugira ngo baganirizwe n'abayobozi babo bababwire amakuru agezweho, ni byiza ko abanyeshuri bahurizwa hamwe bakaganirizwa kugira ngo bakomeze kwitwara neza.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bateraniye hamwe bagiye kureba umupira w'amaboko, ni byiza kureba imikino kubera ko bituma abanyeshuri bishima bagasabana.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bakaba barimo gukora ikizamini mu rwego kugira ngo abarezi babo bamenye urwego bagezeho, ni byiza kwigisha abanyeshuri warangiza ukabaha isuzumabumenyi kuko bigufasha kumenya niba ibyo wabigishije barabifashe.

Urubyiruko rw'abanyeshuri rwateraniye hamwe ku ishuri bigaho, mu rwego rwo kugira ngo abayobozi babaganirize, bityo bahabwe uburere ndetse bahabwe n'indangagaciro zikwiye kubaranga. Ni byiza kuganiriza abanyeshuri.

Abanyeshuri bahagaze imbere y'umusaraba uriho ishusho ya Yesu Christo, barimo gukora umutambagiro wo kugira ngo bibuke urupfu rwa Yesu Christo. Ni byiza kwigisha abanyeshuri iyobokamana.

Abantu barimo gutambuka mu muhanda urimo kaburimbo, hakaba hari umwana wambaye impuzankano y'ishuri. Iruhande rw'umuhanda hahinze indabo z'imikindo, hakaba hari ibipangu byubatse ruguru y'umuhanda ndetse n'ibyubatse hepfo y'umuhanda.

Urubyiruko rw'abanyeshuri, rurimo gutambuka mu muhanda wa kaburimbo, rukaba rwambaye impuzankano iruranga, ni byiza kujya ku ishuri wambaye impuzankano, kubera ko iyo uri mu nzira bigutandukanya n'abandi bantu basanzwe, bityo ukaba wahabwa serivisi mu buryo bworoshye.

Abanyeshuri bari mu ishuri bakaba barimo kwiga, mu rwego kugira ngo biyungure ubumenyi, imbere hari umwarimu urimo kubaganiriza, abigisha amasomo atandukanye, ni byiza kujya ku ishuri kubera ko bituma umuntu yirinda kuba ikirara, ahubwo akaronka ubumenyi.

Ikigo cy'amashuri akaba ari amashuri yubatse mu buryo bwiza cyane buzengurutse, ku buryo amashuri yose arebana kandi abanyeshuri bahiga biraborohera kuhigira, hari imodoka nyinshi cyane ziparitse mu kibuga ubona ko hasuwe n'abayobozi benshi cyane batandukanye.

Urubyiruko rw'abanyeshuri rwambaye impuzankano iruranga, rwambaye ingofero mu rwego kugira ngo bizihize umunsi mukuru. Ni byiza kwambara imyenda ikuranga mu gihe hari igikorwa runaka witabiriye.

Abanyeshuri barimo gutambuka mu muhanda ubona ko barimo kuva ku ishuri kwiga. Kwiga ni byiza kubera ko bituma umuntu agira ubumenyi kandi bimurinda kuba ikirara. Reka abanyeshuri ndetse n'urubyiruko bakunde kwiga kuko ni byiza.

Irembo rigaragaza ikigo cy'amashuri, akaba ari irembo ryanditseho amagambo aha ikaze abantu baza bagana ikigo cy'amashuri, ni byiza guha ikaze umuntu uwo ari we wese uje akugana.

Umwarimu wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'agapfukamunwa k'ubururu, ari mu ishuri arimo kwandika ku kibaho, amasomo arimo kwigisha. Ni byiza kwigisha wandika kubera ko bifasha abanyeshuri kumva neza ibyo urimo kubigisha.

Urubyiruko rw'abanyeshuri ruri mu cyumba cy'uruganiriro rukaba rurimo kuganira rwungurana ibitekerezo, harimo abanyeshuri bo mu mashuri abanza ndetse no mu mashuri yisumbuye, umwe mu banyeshuri bo mu mashuri yisumbuye arimo kubaganiriza hanyuma abo mu mashuri abanza bagatanga ibitekerezo.

Abakinnyi bagiye gukina umupira w'amaboko uzwi nka Basket mu ndimi z'amahanga, ikipe imwe yambaye ubururu hejuru indi yambaye umuhondo hejuru, ni byiza ko abantu bagiye gukina bambara imyenda itandukanye kugira ngo umusifuzi abashe kumenya uburyo amakipe atandukanye.

Umuntu wicaye mu isomero, akaba arimo gusoma igitabo ubundi akajya yandika. Ni byiza kujya mu isomero kubera ko urasoma ukiyungura ubumenyi, bityo mu gihe kizaza ukazaba umuntu usobanutse ufite amakuru menshi ahagije ku bintu bitandukanye.

Utubati turimo ibitabo byinshi cyane, bipanze mu buryo bwiza cyane, ku buryo uramutse wifuza gutira igitabo cyangwa gusoma igitabo, bidashobora ku kugora habe nagato, mu gihe hari igitabo runaka ushaka.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bicaye mu ishuri barimo kwiga, bakaba buri wese afite ikayi imbere ye mu rwego kugira ngo abone aho yandika ibyo mwarimu arimo kubigisha, inyuma hakaba hari ikibaho bandikaho.

Ikibuga gikinirwamo umupira w'amaboko uzwi nka Basket mu ndimi z'amahanga, iruhande rwacyo hakaba hari ibiti birebire bituma haboneka umuyaga ndetse n'amahumbezi, iruhande rw'ibiti hakaba hubatse amashuri abanyeshuri bigiramo.

Abanyeshuri benshi cyane bateraniye hamwe, ubona ko baje gusaba serivisi zitandukanye zijyanye n'uburezi ni byiza kwambara impuzankano mu gihe uri umunyeshuri, kubera ko bituma abantu bose bamenya neza uwo uri we.

Ikibaho kiri mu ishuri mwarimu yandikaho mu gihe arimo kwigisha kugira ngo abanyeshuri biborohere kumenya ibyo mwarimu ari kuvuga, ni byiza ko buri shuri rishyirwamo ikibaho cyiza ku buryo iyo mwarimu ari kwandikaho amacake afata.

Abantu benshi cyane bateraniye ku kibuga gikinirwamo umukino w'amaboko uzwi nka Basket ndimi z'amahanga bakaba bishimye cyane barimo kureba umukino, hari umukinnyi witereye hejuru urimo gushyira umupira mu gakoresho bamanuramo umupira igitego kikaba kiranyoye.

Abantu bateraniye hamwe mu nzu mberabyombi, bakaba bose bicaye bategereje kumva icyo umuyobozi mukuru abagezaho, kuganira ni byiza kubera ko bituma buri wese yiyungura ubumenyi.

Icyapa giteye ku muhanda, kikaba cyanditseho amagambo menshi atandukanye agaragaza serivisi zitangwa, akaba ari icyapa cya kaminuza y'u Rwanda ishami ry'abakatorike, ni byiza kwiga.

Icyumba cy'uruganiriro kirimo intebe nziza z'umutuku, harimo abantu benshi barimo gusohoka ubona ko igikorwa cyari cyabahurije hamwe kirangiye bakaba batashye, imbere haratatse hari kwaka amatara menshi cyane.

Akabati kabikwamo imyenda ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, hejuru yako hateretse inkweto zifunze ndetse n'ivarisi yo kubikamo imyenda, ni byiza kubika imyenda yawe mu kabati kugirango itandura.

Inzu ebyiri zubatse mu buryo bw'amagorofa akaba ari inzu zisize amarange y'umuhondo ndetse n'umweru, hino hakaba hari akazu gatoya kabamo abashinzwe umutekano, ni byiza kurindira inyubako yawe umutekano.

Abaganga bicaye mu cyumba bakoreramo ubushakashatsi, mu gihe barimo gupima indwara. Ni byiza gukoresha ibyuma kabuhariwe mu gukora ubushakashatsi kugira ngo ubashe kubona udukoko utashobora kubonesha ijisho, iruhande rwabo hakaba hari mudasobwa bifashisha.

Igikoresho cyifashishwa mu gihe umwarimu arimo kwigisha, kikaba cyifashishwa kugira ngo abanyeshuri bari inyuma babashe kuba babona imbere, cyitwa porojegiteri mu ndimi z'amahanga.

Abantu bahagaze mu nzu mberabyombi, bakaba bambaye imyenda isa, ubona ko ari ikipe ifite ikintu ihuriyeho, bakaba bameze nk'ababyinnyi biteguye kubyina.

Abantu bicaye mu nzu y'uruganiriro, akaba ari inzu irimo intebe z'umutuku, harimo umwijima ubona ko nta matara arimo kwaka, si byiza kwicara mu mwijima.

Umuryango winjira mu cyumba, akaba ari umuryango usize irangi ry'umutuku, uriho ikirahuri ku buryo umuntu uri hanze ashobora kurunguka akareba mo mbere akamenya abantu barimo ibyo barimo gukora, hejuru hakaba hari icyapa kigaragaza nimero y'icyumba.

Abaganga bari mu cyumba cyabugenewe gikorerwamo ubushakashatsi, bakaba bafite ibyuma kabuhariwe byifashishwa, mu kureba udukoko dutoya tutaboneshwa amaso. Ni byiza kwambara imyenda igaragaza ko ushinzwe serivise zijyanye n'ubuvuzi.

Abantu bicaye mu cyumba gitangirwamo serivisi, bakaba ari abantu batandukanye. Harimo abafite za mudasobwa imbere yabo ku meza, hakaba hari n'undi musore uri muri telefoni. Bicaye ku ntebe z'umutuku, ku bikuta hamanitseho ibyapa bigaragaza serivisi zabo bashinzwe.

Urubyiruko rwambaye impuzankano ya gisirikare, rukaba ruhagaze imbere y'ibikoresho bigiraho kumenya uburyo amagufwa ya muntu ateye, mu rwego rwo kugira ngo niba wiga ibijyanye n'ubuvuzi usobanukirwe uko ushobora kuvura amagufwa ya muntu.

Icyumba gitangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi, harimo ibikoresho bitandukanye abaganga bifashisha nk'ameza, utubati ndetse n'ibindi, hakurya ku bikuta hariho ibyapa bigaragaza serivisi zihatangirwa.

Abantu benshi bicaye mu nzu y'uruganiriro, bakaba bitabiriye inama. Imbere hari abayobozi barimo kubagezaho ikiganiro, inyuma y'abayobozi hakaba hari igipapuro kimanitse kigaragaza igikorwa nyamukuru cyabateranyije.

Abantu benshi batandukanye bahagaze imbere y'inyubako yubatse mu buryo bw'igorofa, bakaba barimo kuganira bategereje guhabwa serivisi, si byiza ko abantu batonda umurongo bategereje guhabwa serivisi ahubwo baba bagomba gutegurirwa ahantu bicara mu gihe bategereje.

Agakoresho karimo udukingirizo, twifashishwa mu gihe abantu bagiye gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, ni byiza gukoresha agakingirizo mu gihe ushaka kwikingira udashaka kwandura indwara zandura cyangwa se udashaka gutera inda.

Inzira ishashemo amatafari, ubona ko ari ahantu hasa neza hatarangwa ivumbi, hakurya y'aho hari inyubako yubatse mu buryo bw'igorofa, ni byiza gusasa amatafari mu nzira mu rwego kugira ngo wirinde ivumbi.

inyubako nziza ndende yubatse mu buryo bw'igorofa, akaba ari inyubako igeretse gatatu. Ni byiza kubaka inzu nziza zigezweho, kubera ko zifasha guhangira ubutaka, kandi zigacumbikira abantu benshi ndetse zigakorerwamo ibikorwa byinshi cyane bitandukanye.

Inyubako zubatse mu buryo bw'igorofa, akaba ari inyubako zisize amarange meza cyane, imbere yazo hari ubusitani abantu bashobora kwicaramo bakaganira, ni byiza gushyira ubusitani imbere y'inyubako zawe kubera ko butuma hagaragara neza.

Icyumba cy'uruganiriro kirimo intebe nyinshi cyane ubona ko gishobora kwakira abantu basaga magana abiri; imbere hari ameza ndetse n'intebe abayobozi bicaraho, ku meza hateretseho mudasobwa ebyiri.

Inzu nziza cyane yubatse mu buryo bwiza, ikaba ifite icyapa imbere ku idirishya kigaragaza serivisi zihatangirwa ndetse n'umuyobozi uhakorera urwego rwe. Ni byiza kubaka inyubako warangiza ugashyiraho ikirango kigaragaza serivisi zihatangirwa.

Abantu barimo gutambuka mu nzira ishashemo amatafari ahiye, iruhande rwabo hakaba haparitse imodoka itwara abantu yanditseho Kaminuza y'u Rwanda bigaragara ko ari imodoka itwara abanyeshuri n'abayobozi bo muri Kaminuza y'u Rwanda, hakurya hakaba hari ikigega kirekire cy'amazi.

Akabati karimo ibitabo bitandukanye, akaba ari byiza kubika ibitabo byawe mu kabati, kubera ko birakorohera kumenya ubwoko bw'igitabo ushaka, n'aho wakibariza, gusoma ni ingenzi mu buzima.

Abantu bicaye mu cyumba cy'uruganiriro, bakaba bateze amatwi umuyobozi urimo kubaganiriza. Abaje baza mu nama, bicaye mu ntebe z'ubururu, hakaba hari abandi bayobozi bicaye imbere yabo.

Umuntu uhagaze mu cyumba araramo, akaba ari icyumba kirimo igitanda cyo hejuru ndetse n'icyo hasi, si byiza kugira ibitanda bigerekeranye kubera ko ushobora kuba urara hejuru warota nabi ugahanuka ukitura hasi.

Akabati karimo ibitabo byifashishwa mu gihe abanyeshuri barimo kwiyungura ubumenyi, ni byiza gusoma ibitabo ndetse no guha abana ibitabo bihagije byo gusoma, kubera ko bituma biyungura ubumenyi bityo mu gihe kizaza akazaba ari abantu basobanutse.

Icyumba abantu bararamo hakaba harimo ibitanda bine, buri gitanda gishashe neza, harimo amavarisi abikwamo imyambaro hakaba hari imyambaro imanitse hejuru ku idirishya iruhande rw'amarido.

Icyumba cyiza cy'inama kirimo intebe nziza zo kwicaraho, akaba ari icyumba cyisanzuye ku buryo gishobora gucumbikira byibura abantu magana abiri, ni byiza gutegura icyumba cyawe cy'inama neza kuko abaje bakugana ari bwo bataha bakuvuga neza.

Abantu benshi bahagaze muri sitade, ubona ko barimo gusenga, bamwe bahagaze imbere abandi bahagaze muri sitade mo imbere bifashe neza ubona ko barimo gusaba uwiteka kubana na bo.

Igikoresho kifashishwa mu mashuri mu gihe barimo kwigisha abanyeshuri benshi, akaba ari igikoresho kitwa porojegiteri mu ndimi z'amahanga, ni byiza gukoresha iki gikoresho kubera ko gifasha gutuma abantu benshi cyane babona ibyo mwarimu arimo kwigisha mu buryo bworoshye.

Abantu bicaye ku rubaraza rw'inzu barimo kuganira, ubona ko bishimye; kuganira ni byiza kubera ko bituma abantu bungurana ibitekerezo, hanyuma buri wese akagira inama ahakura.

Ameza ateretseho mudasobwa ndetse na telefone, akaba azengurutswe n'intebe abantu bicaraho barimo kuganira, ni byiza kugira ahantu abantu bashobora kwicara mu gihe barimo kuganira iwawe.

Inzu irimo utubati twiza cyane dupanzemo ibitabo byo gusoma, akaba ari ibitabo by'amoko atandukanye ndetse biri no mu mabara atandukanye, ni byiza gusoma ibitabo kubera ko bituma umuntu yiyungura ubumenyi.

Ishuri abanyeshuri bigamo, hakaba harimo intebe bicaraho mu gihe barimo kwiga. Imbere hari ikibaho mwarimu yandikaho mu gihe arimo kwigisha. Hakaba hari umunyeshuri wicayemo ufite mudasobwa imbere ye.

Inyubako ndende yubatse mu buryo bw'igorofa, akaba ari inyubako igeretse gatanu, ni byiza kubaka inzu z'amagorofa kubera ko bituma uhangira ubutaka kandi ugacumbikira abantu benshi cyane.

Abantu bicaye mu cyumba cy'uruganiriro, bakaba barimo kuganirizwa bigishwa bahabwa inyigisho zitandukanye, bakaba bambaye imyenda isanzwe, imbere yabo hari umugabo wambaye imyenda y'ikositimu urimo kubigisha.

Inyubako ndende yubatse mu buryo bw'igorofa ikaba igeretse gatatu, imbere yayo hari abantu barimo kuganira mu rwego rwo kugira ngo bahane ibitekerezo, kuganira ni ingenzi hagati y'abantu n'abandi.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bakaba barimo kwiga, imbere hari umwarimu urimo kubaganiriza abasobanurira amasomo mu rwego rwo kugira ngo biyungure ubumenyi, ni byiza kugana ishuri.

Inzu itangirwamo serivise zitandukanye z'ubuyobozi, harimo abantu benshi haba abatanga serivise ndetse n'abaje gusaba serivise, harimo insakazamajwi ebyiri z'umukara ziteretse ku maguru yazo.

Matora irambitse hasi, akaba ari matora nini iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru. Imbere yayo hari umukobwa urimo gutambuka. Hirya hakaba hari ibiti birebire, bituma abantu bahatuye babona umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Inyubako yubatse mu buryo bwiza bugezweho, imbere yayo hakaba hari amadarapo abiri, hari idarapo ry'ikigo ndetse n'idapo ry'Igihugu cy'u Rwanda. Imbere y'amadarapo hari umuhungu uhagaze wambaye imyenda y'umukara.